Umuhinzi uri gutera imiti mu biti bye by'imbuto, nkuku bigaragara akaba yifashishije imashini kugira ngo atere umuti mu biti bye by'imbuto, kuko bigaragara ko ari guteramo imiti.

Abantu bari gukora igikorwa cyo gutera umuti, ugaragara ko ari ikintu kimeze nk'igikorwa cy'umuganda cyabaye, cyangwa ikindi gikorwa cyahujije abantu benshi kuko hariho n'abantu bashinzwe umutekano nk'abasirikare, bari gufasha igikorwa cyo gutera umuti wo kurwanya ibyonnyi mu bihingwa.

Umuntu uri gukora ubushakashatsi, ari gusuka ibintu ku kimera bigaragara nk'aho ari nk'ifumbire ari gushyiraho, kugira ngo arebe ko byazabasha kwera cyane, cyangwa bigatanga umusaruro mwinshi akoresheje iyi ifumbire, cyangwa ashyizeho iyi miti ari gukoresha.

Ubwoko bw'umuti ubu bukoreshwa mu kurinda mu kurinda imyaka bikaba bigaragara ko ari umuti, ukoreshwa cyane cyane ku bimera, kuko bigaragaza ko hashushanyijeho ibimera ugenda ukoreshwaho.

Ingorofani itwaye ibintu, ibintu bimeze nk'ifumbire, bagiye gutwaraho ifumbire, akaba hariho igitiyo cyabugenewe mu kubitiyura, gifite amenyo, giterura ifumbire yo muri ubu bwoko, akaba ari umuntu ushaka kubivana ahantu hamwe abijyana ahandi ho mu murima.

Ahantu bacururiza imiti igiye itandukanye, birimo bigaragara ko ari nka kampani cyangwa ari igikorwa cyo kwamamaza umuti runaka, cyangwa kwigisha imiti runaka yo mu tujerikani, kuko bigaragara ko bari mu mahema bategereje abakiriya, cyangwa kwigisha uburyo iyo miti ikoreshwa.

Ifi yarobwe uko bigaragara akaba ari ifi yamaze gukurwa mu mazi. Ikaba yiteguye kugurishwa cyangwa kuribwa. Nk'uko bigaragara ko ari ifi, ko ari ifi nini cyane yamaze gukurwa mu mazi.

Umushyo umaze gukata ifi, nk'uko bigaragara akaba ari ifi imaze kubagwamo ibice bibiri，uko bigaragara bakaba baciyemo ibice bibiri, ikaba ifi igiye gutunganywa cyangwa igiye gutekwa muri rusange.

Umusaruro w'amafi, nkuko bigaragara akaba ari amafi yarobwe agashyirwa mu kintu, nkuko bigaragara akaba ari amafi menshi cyane, nkuko bigaragara akaba yaramaze gukurwa mu mazi agapfa, akaba ari ku isoko cyangwa akaba yiteguye kujyanwa ku'isoko.

Umusaruro w'amafi yamaze gufatwa ari mu ngaramu, cyangwa se uri mu mutego bawuteze agafatwa, kugira ngo aze kuribwa cyangwa ajyanwe ku isoko. Nk'uko bigaragara, ni amafi yamaze gufatwa.

Ifunguro ririho ifi, rikaba ririho umuceri, rikaba ririho n' inyanya, uko bigaragara akaba ari ifunguro ryateguwe neza ririho ifi, kandi rikaba risa neza cyane, kuko bigaragara ko ryateguwe, kandi rifite isuku nyinshi cyane, kuko bigaragara nta kibazo rifite.

Umusaruro uturuka ku bworozi bw'amafi, hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye bikomoka ku musaruro w'amafi, cyangwa ibiva mu mazi. Hariho indagara, n'ubundi bwoko bwinshi bugiye butandukanye bw'ibiva mu mazi byo mu moko y'amafi.

Amafi yatunganijwe amaze kumuka, agashyirwa mu tuntu tugiye dutandukanye. Bigaragara ko buri mafi n'ubwoko bwayo babushyize ukwabwo, kugira ngo bayarobanure bayacuruze neza ukwayo, buri bwoko bw'amafi buri ukwabwo.

Ibyo kurya byateguwe，nk'uko bigaragara akaba ari ibyo kurya birimo isosi，ndetse bikaba birimo n'ifi， nk'uko bigaragara hakaba harimo n' inyanya ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye birimo isosi， ahandi harimo n'isosi nk'uko bigaragara ko byamaze gutegurwa neza， byiteguye kuba byaribwa.

Ifunguro ririho ifi ndetse n'amakaroni, rikaba ririho bigaragara ko ari ifunguro riteguwe neza. Riri ku isahani nziza cyane, bikaba bigaragara ko ari ahantu heza cyane, ari muri hoteri nziza babitegura cyangwa mu rugo, bikaba ari ibintu biteguwe bisa neza cyane.

Iyi sahane iriho isosi ndetse ikaba iriho n'ifi . Bigaragara ko byamaze gutunganywa cyangwa byahiye, kuba bigiye kuribwa kuko bigaragara kandi byamaze gutegurwa neza hakaba hari ifunguro risa neza, riri ku sahane nziza kandi hariho ifi n'isosi.

Isahane iriho ibyo kurya bigiye bitandukanye, kuko bigaragara hakaba hariho ifi ,ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye , kuko byateguwe nk'ibiryo byateguwe ngo biribwe bikaba bifite isuku ,biri ku isahane nziza ndetse biriho n'imboga cyangwa bikoreshwa nka sarade.

Umurimo wo korora amafi, akaba ari amafi bigaragara ko yarobwe, yamaze gushyirwa mu gatete ko baroberamo amafi, akaba ari amafi manini cyane kuko bigaragara ko ari ubworozi bwiza bw'amafi, aho amafi yamaze kurobwa akaba agiye kujyanwa ku isoko cyangwa gutunganwa.

Umusaruro w'amafi ari ku meza, bigaragara ko yamaze kurobwa, ari gucuruzwa mu isoko ,aba arunzwe hamwe kugira ngo abakiriya baze bitoranyirize cyangwa bihitiramo ayo baragura bitewe n'ayo bashaka cyangwa n'ingano yayo.

Umuntu uri mu nzira wikoreye ijerekana avuye kuvoma, bigaragara ko ari gukora imirimo yo mu rugo mu giturage cy'ahantu, akaba atari ahantu ho mujyi cyane ahantu ho mu cyaro, akaba ari mu gahanda kuva kuzana amazi.

Umurima w'urutoki ukaba ufite ibitoki byinshi cyane, hakaba hateyeho n'insasa, bikaba bigaragaza ko atari ahantu hitabwaho cyane ngo hakorerwe ubuhinzi bwa kijyambere. Ahubwo akaba ari ahantu hera urutoki, ariko akab atari umurima witabwaho ku buryo bu...

Igitoki gishingiriye gifite igitoki cyeze ,gifite amabere maremare akaba ari ubwoko bw'igitoki kibyara kigira amabere manini cyane ,bigaragara akaba ari ubuhinzi bw'urutoki, urutoki ruba rwarakuze cyane.

Umurima urimo imyaka bigaragara nk'aho ari karoti, hakaba igihingwa cya karoti gihingwa mu mirima mu murima kugira ngo bazasarure, akaba ari ubwoko bw'ibinyemboga bitukura cyangwa ibinyemboga byo barya imizi.

Igiti cyo mu ishyamba kigaragara ahantu hadahingwa cyane. Nkuko bigaragara kikaba ari igiti kimejeje bashobora gukuraho imiti ya kinyarwanda, cyangwa ibindi. Kigakoreshwa nk'ubwatsi bw'amatungo, ariko kikaba ari igiti cyimeza cyangwa icyatsi muri rusange.

Ibihingwa by'ibirayi biri mu murima hakaba harimo n'igiti cya poronusi kuko bigaragara akaba ari ibirayi byenda kwera, biteze ariko biri hafi kuba byasarurwa, kuko bigaragara bifite amababi ajya kuba nk'akuze kandi bikaba ari ibirayi byinshi kandi byiza, kuko bigaragara ko bizatanga umusaruro.

Igihingwa cy'ubwatsi, ubwatsi buri mu murima bushobora kuba ari ubwatsi bw'urubingo, cyangwa akaba ari ibisheke bihinze mu murima. Ibihingwa bifasha mu kugaburira, uhinga nk'ubwatsi bw'amatungo ukabigaburira amatungo, cyangwa akaba ari ibisheke biri mu murima.

Amashuri ari imbere y'umuhanda, haba hariho n'agashyamba bigaragara ko ari ikibara kirimo ibiti bitandukanye, ibiti bishobora gukoreshwa mo imbaho, bishobora kuza bigatunganywa, bikavamo imbaho nziza kandi nyinshi.

Ikimera cy'igiti akaba ari n'igiti kivangwa n'imyaka, gikunda kuboneka cyane abantu bakoze amaterasi, akaba ari mu bwoko bw'ibiti u Rwanda rushishikariza abaturage gutera mu mirima yabo, kubera ko bishobora kurwanya isuri ,ndetse bigatanga n'ifumbire amababi aramutse ahungutse.

Umurima ugaragara nkaho urimo imyaka idashamaje cyane atari myiza, akaba ari umurima uri ku nzira aho abantu benshi batambuka bakanyura bigaragara ko hamezemo utwatsi, akaba ari ikibara kirimo twarashibutse, hirya hakaba ibigorigori biri gusarurwa ndetse n'ibindi.

Ihene iri mu murima nkuko bigaragara ikaba iziritswe kugira ngo ibe yarisha, mu kibara bamaze gukuramo imyaka bikaba bigaragara ko ari ihene nziza, irimo ikiziriko mu ijosi, ikaba iri kurisha mu kibara.

Abahinzi bikoreye ubwatsi, bigaragara ko hariho umurima w'ibirayi. ukaba ari umurima ufite ibintu bisa neza cyane, nk'uko bigaragara akaba ari ibirayi byiza cyane kubera ko bisa neza.

Igihingwa k'ibihaza kuko bigaragara ko hari ibiganza biri mu murima bishobora kuba ari ibihaza bya kizungu cyangwa akaba ari ibya kinyarwanda kuko bitari byera neza cyane akaba ari ibihaza bya kizungu biri mu murima bikaba bitarera neza cyane kuko ari ibihaza bikeya.

Umurima uri imbere y'ikigo cy'amashuri ugaragara nk'aho uhinzemo igihigwa cy'amashu. Akaba atari umurima ushamaje cyane cyangwa atari imyakaka isa neza cyane. Akaba ari imyaka idasa neza cyane, ariko hakaba ari amashu ahinzwemo.

Ibiti bya kinyarwanda n'ibindi biti bigiye bitandukanye. Bishobora gukoreshwa nk'ibiti, bisarurwamo imbuto runaka. Imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye kuko bigaragara ko ari ibiti byeramo imbuto kandi bikabamo n'inyamaswa.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo amateke, ndetse n'ibindi bihingwa byinshi cyane, nk'amavoka akaba ari umurima uwuhinzemo, ibintu bi byegeranye n'imbuto n'urutoki, ukabigaragaza nk'ubuhinzi buhinga, ibihingwa bivanze cyane cyane.

Umurima ku ruhande rumwe mu murima hadahinze ahandi bakora umurimo ahagaragara ko harimo igitoki. Iruhande rwaho hakaba ibigori byiza cyane binini nkuko bigaragara akaba ari ibigori bisa neza, umurima udahinze ukaba umurima w'ikibara urimo n'urutoke.

Umurima urimo imyaka ishobora kuba ari nk'ibirayi biteye biri mu murima. Akaba ari ahantu bahinga urutoki hakaba n'ibiti binini cyane, akaba ari ubuhinzi buhingwa ibihingwa byo kurya ndetse n'ibyo gutanga amafaranga byo kujyana ku isoko.

Umurima udahinzemo ikintu na kimwe ,urimo amabuye manini azwi ku izina y'ibitare ,ukaba ari umurima munini cyane, kuko bigaragara haba hadahinze nta kintu na kimwe giteyemo cyangwa kiri gukura muri uwo murima, kuko bigaragara nta kintu kirimo.

Umurima w'amajeri ugaragara ko ari amajeri ari mu murima. Akaba ari amajeri ari ku kigero cyo hasi, atariyera, ariko bigaragara ko asa neza cyane, akaba azatanga umusaruro kuko bigaragara ko asa neza mu murima.

Ibimera cyangwa ibimera by'ibiti, bikaba ari ubwoko bw'ibihingwa bushobora guhingwa, kugira ngo bazabigurishe bivemo imbaho ndetse n'ibindi bitandukanye, bishobora gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, bikaba bigaragara ko bahinze n'ibindi bintu bisa n'ibigori cyangwa ibintu bigiye bitandukanye.

Ishyamba ry'inturusu uko bigaragara akaba ari ishyamba ririmo ibiti binini bigiye bikura cyane. Ibi biti bikaba bishobora gukura bikabazwamo imbaho cyangwa bakabitwikamo amakara kuko bifite imimaro nyinshi igiye itandukanye.

Umurima w'amashu bigaragara ko ari umurima urimo amashu make cyane, uko bigaragara yamaze kubagarwa ariko hakaba hatarimo umusaruro mwiza kuko bigaragara ko amashu adasa neza cyangwa adakomeye adafite indemo nziza.

Isambu y'imyaka irimo imyaka itandukanye, aho harimo ibinyomoro, ndetse hakaba harimo n'urutoki, harimo n'ibyatsi bisasiyemo hasi, uko bigaragara akaba ari isambu igaragaza ubuhinzi bumeze neza, akaba ari isambu ibagariye, itarimo ibyatsi cyane mo hasi.

Ikibara cy'ibigori cyahinzwemo ibigori, nkuko bigaragara bakaba barasaruyemo ibigori, hakaba harimo ibishyitsi by'ibigori, akaba ari umurima ndetse cyangwa isambu nini cyane yahinzwemo ibigori, maze nyuma bikaza gusarurwa, hakaba hasigaye ikibara.

Igiti gakondo cyangwa ibiti bya kinyarwanda nk'uko bigaragara, akaba ari ibiti by'imbuto zigiye zitandukanye, cyangwa ibiti byabonekaga cyane cyane ku ngo za kera, ariko hakaba n'ibiti by'imbuto byari bitandukanye bishobora gukoreshwa ku buhinzi.

Umurima w'urutoki urimo n'indi myaka igiye itandukanye, z'ibinyamboga kuko bigaragara ko harimo ibitoki byinshi, ibitoki biri munsi y'urugo hafi y'inzu hakaba hari umurima twakwita ko ari umurima w'ubuhinzi ,urimo ibihingwa bigiye bitandukanye.

Umurima w'imboga, uko bigaragara akaba ari umurima bahinzemo imboga nyinshi cyane, akaba ari ahantu hanini hahinzwe, bikaba bigaragaza ubuhinzi bwo guhinga imboga, ndetse n'imbuto mu mirima, akaba ari ubuhinzi ngandurarugo.

Umurima cyangwa isambu ihinzemo karoti. Uko bigaragara akaba ari umurima munini urimo ibyo kurya cyangwa ibimera byitwa karoti. Akaba ari ubwoko bw'ibinyamboga ariko by'ibinyabijumba. Imboga zereramo hasi . Akaba ari karoti zihinze mu murima.

Umurima w'imitabo uhinze， uko bigaragara akaba wahinzemo ibishyimbo， ndetse harimo n'iyindi myaka， nk'uko bigaragara akaba ari umurima munini，iruhande rwawo hari igiti cya avoka, akaba ari umurima uteyemo ibintu ariko bitari byakura neza, aho hariho ibishyimbo byakuze.

Ikurete ririho amagi, uko bigaragara akaba ari amagi y'inkoko ari ku ikurite, akaba ari amagi cumi n'abiri yateguwe, ashobora kuba ari gucuruzwa, cyangwa akaba yashyizwe hano kugira ngo ajyanwe ku isoko.

Abahinzi bari mu murima w'ibireti, bikaba bigaragara ko bari gusarura bari guca indabo z'ibireti zamaze gukura, uko bigaragara bakaba bari gukora umurimo wo gusarura, imyaka igihingwa cy'ibireti cyakuze cyeze.

Voka ihiye neza cyane yasatuwe uko bigaragara akaba ari kiyifashe kaba ari voka nziza yatonowe yasatuwe kandi kugaragara ko isa n'umuhondo mu nda, ikaba bigaragaza ko ishobora kuba iryoshye cyangwa ifite amavuta.

Abahinzi bajyanye ibitoki ku isoko, nkuko bigaragara akaba ari umusaruro w'ibitoki wajyanywe ku isoko, hakaba hariho abantu benshi bazanye ibitoki ku magare, hakaba hariho n'abaje kubigura ,nkuko bigaragara akaba ari isoko ricururizwamo ubwoko bw'ibiribwa, ari bwo bwitwa ibitoki.

Umuhinzi uri mu murima we, uri guca ibigori kuko bigaragara, akaba ari gusarura ibigori bye akaba ari ibigori binini byenda kumira mu murima, bikaba bigaragara ko ari ibigori byeze kandi bimaze igihe gihagije mu muririma, bishobora kuba byasarurwa.

Umuhinzi uri gukora ku bujyanye n'ubuhinzi. Uko bigaragara ko ari ukora ibijyaniranye no gukora ubuhinzi bukorerwa mu nzu cyangwa bukorerwa mu nyubako, aho bizwi cyane nko Aguhinga muri girinihawuzi. Bikaba bigaragara ko ari ubuhinzi buteye imbere.

Umusaruro w'ibirayi biri mu mufuka, byiteguye kuba byajyanwa ku isoko, nk'uko bigaragara bikaba byapimwe bigashyirwa mu mifuka yabugenewe, kugira ngo babashe kuba babijyana mu isoko, nk'uko bigaragara ko ari ibirayi byamaze gukurwa, bimeze neza no mu mifuka bakaba banabitsindagiye.

Igihingwa cy'intoryi uko bigaragara intoryi zikaba ari pavuro ziri mu murima zikaba zishingiriye, zikaba ziriho imiteja myinshi cyane cyangwa zikaba zaratangiye kuzana imbuto. Izi pavuro zikaba zigaragara nk'aho zisa neza zatanga umusaruro mwiza.

Umuhinzi uri mu murima we muri pepenyeri cyangwa mu irerero ry'ingemwe. Akaba ari kwita ku ngemwe ze z'avoka zi muri pepenyeri. Bikaba bigaraga nk'aho ari gukora ,ari kubangurira cyangwa gukora indi mirimo yo kubungabunga pepenyeri.

Umusaruro w'ibigori byatunganyijwe byamaze gusarurwa bikaba biri mu gitebo, aho byamaze gutegurwa bikaba bishobora kuba byakoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye ,kuko bigaragarako byamaze gusarurwa kandi bimwe byakuweho amababi yabyo.

Igihingwa cy'igihaza, igihingwa cyera mu buryo burandaranda kikaba ari kigaragaza ko gifite ururabo cyangwa akaba ari akantu gato kazazaho igihaza. Bikaba bitari byera cyane ngo bibe byakura, bitari byavamo igihaza.

Imbuto z'amaronji zateguwe neza, harimo izamaze gutonorwa ziri mu isorori, zikaba zatonowe zishobora kuba zaribwa ako kanya n'izindi zitari zatonorwa ku ruhande.

Umusaruro w'urutoki uri kujyanwa ku isoko, kuko bigaragara ko bapakiye mu modoka, bakaba bagiye kuwujyana ku isoko ,bakaba bari kuzuza mu modoka kugira imodoka iwujyane mu bice bitandukanye, aho bagiye kuwucuruza.

Ibijumba byatetswe bakabiteka cyane byahiye, uko bigaragara bikaba byahiye biri mu isafuriya aho byatekewe, ariko bikaba byahiye cyane ukobigaragara byamanyutse kubera gushya cyane bikaba byaribwa kuko byahiye.

Intama ziri mu rwuri ziri kurisha, akaba ari intama ziba ari nini cyane zo mu bwoko bw'ibidelina. Zigira ibyoya byinshi nkuko bigaragara ko ari intama nziza ziri kurisha kandi zikaba ari nini, zikaba zibyara utwana, kamwe cyangwa utwana tubiri bitewe n'uko ingana cyangwa n'ubushobozi bwazo.

Ubwoko bw'urubuto rushobora kuribwa rudatetswe ahubwo rukaba ruribwa ako kanya bakimara kuruca. Akaba ur'urubuto rujya kwifata nk'indimu cyangwa ipera, rukaba ruri mu muryango w'ibyo bimera, ariko rukaba rwo rubuto rukundwa cyane.

Urubuto rw'umwembe aka ari urubuto, ari imwe mu mbuto ziribwa, zikaba ziribwa zikiri nto, cyangwa zitetswe akaba ari urubuto rugaragaza ko rufite ibikomere rwafashwe n'uturwara tugiye dutandukanye, uko bigaragara ku ruhu rwawo.

Igitoki kikiri ku giti cyacyo uko bigaragara akaba ari igihingwa cy'igitoki kimaze kwera neza cyane, kikaba gitegereje kuba cyacibwa, cyangwa cyasarurwa, kugira ngo kibe cyakoreshwa mu bindi bintu bigiye bitandukanye, nk'uko bigaragaraba kiba gifite amabere manini cyangwa kikaba ari igitoki cyiza.

Umworozi uri gukata ubwatsi bw'amatungo, ko bigaragara ko ari imashini ikata ubwatsi bw' amatungo, ikabukatamo uduce dutoya.

Ibyo kurya byamaze gusarurwa, byamaze no gutunganywa, bimwe binatetse ibindi bikaba bihari byo guteka hari: nk'inyanya, hariho n'ibirayi n'ibindi bintu byaba byamaze gutekwa biri ku masahani, ku bigaragara akaba ari mu gikoni cy'umuntu runaka.

Umusaruro w'imyumbati yarunzwe ahantu, ikaba ari imyumbati ishobora kuba yahita itekwa cyangwa ikozwa ikajyanwa ku isoko, nkuko bigaragara ikaba ari imyumbati bakuye mu murima, bayishyize ahantu kugira ngo bayikureho ibitaka cyangwa babashe kuyikorera isuku.

Umuhinzi w'intoryi uri mu murima we, bigaragara ko yishimiye uburyo intoryi ze zimeze, zikaba ziri gukura akaba yishimiye cyane, kwishimira ukuntu intoryi ze zimeze mu murima we, zikaba ziri hafi gusarurwa.

Umuhinzi uri kubagarira ibigori ,bigaragara ko afite umurima w'ibigori akaba ari kubagara ari gukuramo ibyatsi , kugira ibigori bye bibashe gukura neza bitarimo ibyatsi ,cyangwa bitarimo ibindi bintu byatuma bidakura neza.

Isoko ry'ibiribwa rigaragazwa nuko bari gacuruzamo imiteja, karoti, pavuro, inyanya ndetse n'intoryi. Hakaba harimo abantu benshi cyane bikaba bigaragara ko ari ahantu habugenewe ho gucururiza hasakaye kandi hafite umutekano kuko bigaragara ko harimo abantu b'abakiya ndetse n'abacuruzi.

Abahinzi bari gutwara ingemwe ziri mu bihoho, zikaba ari ingemwe z'imbuto zigiye zitandukanye kuko bamwe batwaye ku igare abandi bakaba bikoreye ku mutwe bikaba bigaragara ko ari mirimo yo gukora, yo gukora yo gutwara ibintu, no gutwara ingemwe cyangwa ubuhinzi bwo gukora ibijyananye n'ubuhinzi.

Abahinzi bari gutera igihingwa cy'ibirayi bigaragara ko bamaze guca imyobo, ko bamaze gushyiramo ifumbire, hakaba hariho abari gutsibya abandi bakaba bakiri gukora, bari gutera, bari gushyiramo imyaka, bikaba bigaragara ko ari ubuhinzi buteye imbere, cyangwa bwa kijyambere.

Avoka yasaturawemo kabiri uko bigaragara akaba ari aoka isa n'idahiye ,ariko ikaba yasatuwemo kabiri. Igacibwamo ibice bibiri, kuko bigaragarako ifite ikibutobuto . Uko bigaragara akaba ari avoka iri mu bwoko bwa Butuyu kaba ari avoka igira uduheri dutoya ku gishishwa cyayo.

Igiti cya avoka kiriho amavoka menshi akaba ari voka zo mu bwoko bwa buheri, cyangwa voka zigira uduheri ku ruhu rwazo akaba ari voka ziri mu giti zitari zacibwa.

Umugabo uri gutera umuti bigaragarako ahetse icyuma akaba ari gutera umuti, ahetse icyuma mu mugongo cyangwa icyo bita ipombo. Akaba ari gutera ibirayi akaba ari kubitera umuti ibirayi byiza binini, bishobora kuba ari iyi mbuto ya Kinigi cyangwa Kirundo nk'uko bigaragara.

Ubuhunikiro bw'ibigori, ibigori biri ahantu babihunika iyo bamaze gusarura, ahantu ho bashyira ibigori hazwi cyane nko ku izina rya hangari, bakaba hashyirwamo umusaruro w'ibigori byamaze gusarurwa, bitegereje guhungurwa kugira ngo bibe byajyanwa ku isoko.

Abahinzi bari kubagara imyaka，bakaba bati kubagara mu murima w'ibirayi kuko bigaragara ko bari mu murima， bakaba bari gukorera ibirayi byabo neza，babibagara，babitera n'umuti，nk'uko bigaragara， kuko bari mu murima wabo，bari gukoreramo ubuhinzi bwabo.

Ubuhinzi bwo guhinga ibiti, cyangwa gukuza ingemwe muri pikinyeri hifashishijwe inzu zikorerwamo ubushakashatsi, cyangwa inzu bahingamo zitwa girini hawuzi, nk'uko bigaragara akaba ari umuhinzi uri gufata urugemwe ruri mu gihoho.

Ibiribwa bigiye bitandukanye by'ibinyemboga ,kuko hariho pavuro, hakabaho ndetse n'intoryi, bikaba byarasaruwe birambitswe ahantu, bishyizwe ahantu, bishobora kuba ari nk'ibiri ku mifungo ,bishobora kuba biri hafi ku isoko ,kugira ngo bibe byacuruzwa ,hakagaragaraho n'imiteja ,ndetse n'zindi mbuto zigiye zitandukanye, hakabaho bigaragara nk'aho ari mu isoko.

Umusaruro w'ibitunguru, kuko bigaragara ko ari ibitunguru byamaze gutonorwa bikanatunganwa, bikaba bishobora gukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa cyangwa bakabikoresha nka salade.

Umurima w'ibigori binini byenda kwera, ugaragara nk'ufite ibigori byinshi kandi ikigori kikaba cyarazanye ibigori byinshi kuri cyo, bikaba bifite n'amababi meza bigaragara ko ari ibigori byiza bizatanga umusaruro mwinshi cyane.

Umuhinzi uri gutera umuti mu myaka ye ,uko bigaragara ko ari gutera ibigori kugira bidafatwa n'ibyonnyi, akaba ahetse icyuma akaba ari gutera umuti akaba ari umumama wumuhinzi ,ukora imirimo y'ubuhinzi buri munsi ,umwuga akora mubijyanye no guhinga.

Abantu bari mu murima bari gutoragura ibirayi, uko bigaragara bakaba bari gukura ibirayi barangiza bakabishyira mu mifuka, bikaba ari ibirayi washobora gukoresha mu bintu bigiye bitandukanye, bakabijyana ku isoko cyangwa bakazabikoresha, bakabibika bikazavamo imbuto zo guhingisha umwaka .

Umusaruro w'ibitoki byajyanwe ku isoko, kuko bigaragara akaba ari ibitoki byinshi cyane, akaba ari ahantu mu isoko harimo abantu bagiye batandukanye, harimo abaje kugura ndetse n'abari kugurisha, abari ku bipima ku biro ndetse n'abari kubipimura kuri buri kimwe kimwe, hakaba ari isoko ricuruzwamo ibitoki.

Abahinzi bari mu murima, uko bigaragara bakaba bari mu murima bari gukora igikorwa cyo gusarura imyaka yabo, kuko bigaragara kuba bafite amashitingi n'imifuka bakaba bari gukora ibikorwa byo gutunganya umusaruro wabo, bari gukura, bari guhura no gukosora umusaruro.

Umuhinzi uri gukora umurimo wo gusarura inyanya, uko bigaragara akaba ari umuhinzi wahinze akaba ari gusarura agakuramo inyanya zitukuye agasigamo izitari zera, uko bigaragara hakaba harimo izituye zisa n' umutuku n'izindi n'icyatsi zitari zera.

Umusaruro w'amasaka, iyo ari mu mufuka, amasaka atunganyijwe yamaze guhugwa neza, ateguye kuba yajyanwa ku isoko kuyagurisha cyangwa akaba yabeteshwa agakugwamo izindi, ibindi bintu nk'amafu n'ibindi.

Umuhinzi uri kwishimira ibishyimbo bye yasaruye. Kuko bigaragara ko afashe ibishyimbo mu ntoki, ari kwishimira ko byaba byareze cyane. Nk'uko uri kubona ko yabitonoye, yarangiza akabifata mu ntoki. Akaba ari kumwenyura, bigaragara ko ibishyimbo bye byeze cyane.

Umusaruro w'amajeri uri mu safuriya witwa witwa urunyogo amageri atari yuma, akaba ari amajeri yasaruwe atumye cyane mu murima akaba aribwa nk'imboga, cyangwa akaba azwi cyane ku izina ry'amashaza.

Umugabo uvuye mu murima bigaragarako yishimiye cyane umurimo ari gukora, cyangwa yishimiye cyane umuntu bari kuvugana kuberako ari kumwenyura, akaba afite isuka ku rutugu ,akaba avuye mu murima uko bigaragara akaba ari mu murima w'ibigori ,akaba ariho ahagaze ari kuvugira kuri telefone.

Umuhinzi uvuye mu murima, akaba ariko ukubona ko amwenyuye cyane, afite isuka kutugu bigaragara nkaho avuye gukora imirimo y'ubuhinzi, ko ari umuhinzi yabigize umwuga, nubwo taliyagera ku gicugusha amashu yigishwa ariko akababona ko ari umuhinzi wishimye cane

Abahinzi b'inanasi bari kwishimira inanasi baba barasaruye, kuko uri kubona ko bafite inanasi mu ntoki zabo, kandi bakaba bagaragara ibyishimo ku maso yabo, ko bari kumwenyura cyane, kandi bari kwishimira cyane cyane inanasi bejeje.

Umusaruro w'ibijumbamba byamaze gusarurarwa biri ku shitingi, kuko byanitswe kugira ngo bigabanye amazi abirimo kugira ngo bibe byabikwa igihe kirekire bitabashije kuborara cyangwa gufatwa n'indwara hamwe n'udusimba runaka.

Abasoromyi bicyayi bari gusoroma icyayi mu murima, uko bigaragara bakaba bafite ibitebo bari gusoroma icyayi. Akaba ari icyiyi cyiza kandi cyinshi cyane hakaba harimo abasoromyi bagiye batandukanye bifashishije udutebo kugira basorome icyayi.

Umusaruro w'ibijumba bigaragara ko ari ibijumba byakuwe, bikozwa bikaba bisa neza bikaba byagurishwa cyangwa bikajyanwa ku isoko, kubera ko byamaze gutunganywa ku kigero cyo hejuru. Ari isuku, ari ndetse n'ibindi bintu byo bakorera umusaruro byose byaba...

Ibiti by'imbuto zigiye zitandukanye, nk'uko bigaragara akaba ari ibiti bishobora kuba ari amapera, cyangwa imyembe, bikaba ari ibiti bimeze neza, biri mu murima w'ibiti by'imbuto, akaba ari ibiti bishobora gutanga umusaruro, cyangwa bashobora gusaruraho imbuto nyinshi.

Inkoko z'imbata, ubwoko bw'inkoko bw'imbata, akaba ari inkoko zitanga amagi, akaba ari inkoko ziba nini cyane, zishobora kuba ndende mu kuzamuka, ndetse ziba cyane cyane mu bice bishyuha by'Uburasirazuba cyangwa mu Majyaruguru.

Abanyeshuri bari gukora urugendo shuri cyangwa abantu bari gusura ibihingwa. Uko bigaragara bakaba basuye umurimashuri, ari wo murima urimo ibishyimbo, bakaba bari kubereka, akaba ari abahinzi bari guhugurwa, ibijyaniranye n'ibihingwa bigiye bitandukanye, uko bigaragara hakaba harimo umuntu uri kuberekera.

Igihingwa cy'ibigori kiri mu murima, urabona ko ari ibigori byiza cyane bitari byera, bigitangira kuzana imiheko, kuko bigaragara ko bikiri bitoya, bitari byaba binini, bitari byakura cyane. Bikaba bigaragara nk'aho ari byiza, bishobora gutanga umusaruro, kubera ko bisa neza, amababi y'icyatsi cyane.

Umuhinzi uri mu murima we w'ibishyimbo, akaba ari ameze nk'uri gusoroma ibishyimbo by'intonore . Mu murima we kugira ngo abashe kuba yajya kubirya ari ibitonore, ari ibitonore bitari byabasha kuma.

Ibigori biri mu murima bigaragara ko ari ibigori bisa nkaho byamaze gufatwa, byatangiye gufatwa n'indwara cyangwa nkongwa yatangiye kuyifata, ariko akaba aribigori bigaragara ko bisa neza cyane, ariko bimaze kuzana n'imiheko, imiheko imaze gukomera igaragara ko ari ibigori biri mu murima byiza, ariko bitangiye kugwa.

Voka yatonowe yasatuwe uko bigaragarako ikaba ari voka nziza nini yo mu bwoko bwa buheri. Ikaba iteguwe ishobora kuba ihiye cyangwa idahiye, kuko bigaragarako ari voka ikuze.

Abahinzi cyangwa abagoronome bakora mu bijyaniranye n'ubuhinzi, basuye umurima bari kureba uko ibihingwa bimeze, bikaba bigaragara ko ari abantu bagiye batandukanye, benshi bari gusobanurirwa ibijyaniranye n'uwo murima.

Umucuruzi ucuruza uri gucuruza imbut, bigaragara ko afite amatunda ari gucuruza ariko mufuka yafunze ibifungo bye bitandukanye bitewe n'ikiguzi cyangwa n' amafaranga bari buzigureho, kandi bigaragara ko ari gucuruza imbuto ku'isoko.

Abahinzi bari mu murima, hakaba harimo umuhinzi ufashe ikigori, hagaragara ko bamaze gusarura isambu yabo y'ibigori hakaba hasigayemo ibishyimbo. Ndetse hakaba hari abahinzi benshi cyane, bigaragara ko ibigori byabo byari byarumye kandi byareze cyane.

Umurima w'imyaka igiye itandukanye, ugaragara ko harimo imyaka y'ibishimbo iteye neza cyane ku mirongo, akaba ari imyaka isa neza cyane, nk'uko bigaragara, ikaba izatanga umusaruro, ihinze ku buso bunini cyane.

Abahinzi bari gukura, bari gukura ibirayi nkuko bigaragara bakaba bari gukuraho imigozi, akaba ari ibirayi bisa neza cyane nkuko bigaragara byabaye binini cyane, bikaba bigaragara ko byatanze umusaruro mwinshi, nkuko bigaragara ko ari binini.

Ubwoko bw'imbuto, ubwoko bw'imbuto zimwe zitonoye izindi zikaba ziri ku ruhande, akaba ari imbuto zo mu bwoko bw'amaronji, amaronji ari mu kintu kimeze nk'igisorori ,akaba ari amaronji atonoye hari n'ayandi adatonoye ku ruhande

Umuhinzi uri kuvugira kuri telefone, uko bigaragara yishimye akaba ahagaze mu bigori afite isuka ku rutugu rwe, akaba asa n'uri gutaha avuye ku murimo, akaba yishimye cyane yishimiye cyane cyane umuntu bari kuvugana kubera ko ari kumwenyura.

Abantu bari muri pipiniyeri, ni ahantu hagaragara ko ari site y'aho bakorera, barerera ingemwe, z'ibintu bigiye bitandukanye, nk'uko bigaragara hakaba harimo abantu benshi bari kwiga, baje kureba ingemwe cyangwa ingemwe bateye uko zingana.

Umuhinzi mu murima we uko bigaragara, akaba ari mu murima w'insenda aho insenda ze ziri gutukura bigaragara ko zenda harimo n'izeze cyane bigaragara ko ari ubuhinzi bwiza cyane busa neza, ubuhinzi bw'urusenda.

Ubwoko bw'imbuto， akaba ari imbuto zijya kumera nk'inyanya，cyangwa akaba ari ibinyemboga bikoreshwa nk'inyanya， ibinyemboga bishobora gukoreshwa mu guteka，cyangwa mu gutegura amafunguro n'ibindi bintu.

Ibihingwa by'ibigori biri mu murima kubera ko ari ibigori byamaze guheka, bifite ibigori binini cyane byazanye umusatsi bigaragara ko byenda kwera, akaba ari ibigori byo mu murima, akaba ari ibigori bisa neza, bigaragara ko byenda gusarurwa.

Umusaruro wa karoti urimo n'ibitunguru byasaruwe bikaba biri guhunikwa cyangwa biri gutunganywa, kugira ngo byume neza kugira ngo bibe byagurishwa cyangwa byakoreshwa icyo byagenewe ari nko gukoreshwa nko ku igaburo n'ibindi.

Ibigori biri mu murima bigaragara ko ari ibigori byiza cyane, ariko bitari byera kuko bifite imisatsi ikiri mitoya cyane, kandi akaba ari bwo bitangiye kuzana imiheko, bikaba bihetse ibigori bibiri cyangwa bitatu kuko bigaragara bikaba ari ibigori byiza cyane bifite amababi meza.

Umusaruro w'ibirayi cyangwa ibijumba uko bigaragara , akaba ari ibirayi cyangwa ibijumba byashizwe mu kintu byamaze gutunganywa, bikaba biteguye ko byajyanwa ku isoko kubera ko byamaze gusarurwa kandi bikaba binanarobanuye neza.

Ikiribwa cy'amateke, uko bigaragara akaba ari amateke yakuwe agatunganwa akozwa neza, akaba ashobora kuba yatekwa cyangwa agakorwamo ibindi bintu, ariko akaba yaragenewe cyane cyane kuribwa akimara gukurwa, cyangwa gutekwa ako kanya mu gihe wayasaruye.

Imbuto ziri mu giti uko bigaragara akaba ari ubwoko bw'intoryi bw'intoryi ziba nini, zikaba ari ubwoko bw'imbuto zikura zikaba nini cyane zigakoreshwa nk'uko intoryi zishobora gukoreshwa ,akaba ari kimwe mu bihingwa by'ibinyemboga.

Umuntu uri gutera umuti akaba ari kuwutera ibirayi uko bigaragara akaba ari mu masambu ari gutera imiti, nk'uko bigaragarako ari gutera umuti cyane mu myaka akoresheje icyuma icyuma cyangwa icyo bita ipombo, akaba ari mu birayi byiza ari ku bitera umuti kugira ngo bidafatwa n'indwara.

Abahinzi bari mu murima w'ibishyimbo uko bigaragara bakaba bari mu murima bagiye gukorera ibishyimbo. Akaba ari ibishyimbo bigufi bidashingirirwa, akaba ari abahinzi bari mu murima bagiye kubikorera cyangwa kubyitaho.

Igihingwa cy'amatunda akaba n'amatunda yera aruko ashingiriwe, akaba ari amatunda atanga umusaruro cyane mu buryo bw'imbuto cyane ari ubwoko bw'imbuto ziribwa ko ari imbuto ziribwa z'amatunda ari mu murima atari yera neza.

Ibyo kurya by'ubwoko bw'ibihaza uko bigaragara akaba ari igihaza cya kizungu cyeze cyasaruwe, kiri ku gatajeri cyangwa ahantu ku isoko aho babicururiza, ari igihaza kinini cyane ubona ko cyakuze neza cyane.

Umurima w'urutoki bigaragazwa nuko harimo ibitoki bikuze, ndetse n'ibindi biri gushibuka. Bikaba bigaragaramo ibitoki bikuze cyane byanasarurwa, kubera ko bimaze kuba bikuru bihagije. Bifite amabere ndetse n'ibiriho ibitoki, ibitoki binini.

Abahinzi bari guhinga cyangwa bari gutera, nkuko bigaragara hakaba ari ahantu h'imisozi miremire, hakozwe amaterasi hakaba hari abakozi bari gukoramo bari gukora igikorwa cyo guteramo imbuto, bikaba bigaragara ko ari ahantu harwanyijwe isuri cyangwa hakozwe amaterasi ku buso bugari cyane.

Imigozi imishingiriro yamaze gusaturwa imigozi yamaze gucibwa kugira ngo ibe yakoreshwa mu kuzirika ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari imigozi ishobora guturuka ku migano cyangwa ibikoba by'ibiti bishobora gukoreshwa nk'imigozi.

Abahinzi bari gusarura ubwatsi bwo kugira ngo bagaburire inka, uko bigaragara akaba ari abahinzi babigize umwuga, basa n'aho ari muri koperative nini ngari cyane, irimo abahinzi bagiye batandukanye, cyangwa akaba ari abakozi b'umuntu, benshi bari gukorera mu murima we.

Umucuruzi ucuruza ubuconsho akaba acuruza pampa, ubwoko bugiye butandukanye bw'amabumba, akaba afite ibindi bintu mu ndobo ndetse no mu gikarito, bikaba bigaragaza ubucuruzi butoya bw'umuntu utari watera imbere cyane.

Umusaruro w'ibirayi byamaze gushyirwa mu mifuka, bigiye kujyanwa, bigiye gupakirwa imodoka bikajyanwa ku isoko, nk'uko bigaraga, bikaba ari ibirayi byiza cyane bigiye gufungwa, kugira ngo babijyane ku isoko, bijye kugurishwa.

Umuhinzi waje gusarura inyanya, nk'uko bigaragara ko afite inyanya zeze cyane, zashyizwe mu mifuka, zikaba bigaragara ko zeze cyane, zidafite ikibazo na kimwe, zikaba ari nkeya zatukuye cyane, nk'uko bigaragara zikaba zenda kujyanwa ku isoko.

Umuhinzi uri mu murima we ahingamo amatunda ndetse n'ibindi bihingwa biri hasi, nkuko bigaragara, akaba ahinga uburyo bukomatanyije, bwo guhinga ibihingwa bitandukanye mu murima umwe, ukabihingira icyarimwe.

Amateke yaruzwe ahantu hamwe, uko bigaragara ko ari amateke y'ubwoko bubiri butandukanye, akaba asa neza cyane nk'uko bigaragara, akaba afite bigaragara ko yeze neza kandi agashirwa mu kintu hamwe, ndetse akanakorerwa isuku.

Umusaruro, umusaruro w'amarongi yashyizwe mu ndobo akaba agiye gucuruzwa, cyangwa agiye kuribwa. Nkuko bigaragara akaba ameze neza cyane mu gatete kabugenewe ko gucururizamo, to gafite utwenge kugira ngo ataba yapfa cyangwa agashya cyane.

Isoko bacuruzamo ibiribwa bigiye bitandukanye, uko bigaragara hakaba hari ibintu byashyizwe mu ndobo bimeze nk'amateke, n'ibindi n'imyumbati bikaba biri gucuruzwa, nk'uko bigaragara hakaba ari ahantu bacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba and ri no ku muhanda ni ahantu hari iterambere ry'i......

Ahantu hateguwe haciwe n'amatarasi, bikaba bigaragaza ahantu hakozwe ibikorwa remezo byo kurwanya isuri ndetse n'ibindi, kuko bigaragaza ko ari ahantu hakozwe amaterasi heza cyane, mu bihe byo kurwanya amasuri n'ibindi.

Umusaruro w'amajyeri, amajyeri amaze gutonorwa, uko bigaragara akaba yaravanywe, yaramaze gutonorwa, kumishwa, bigaragara ko amajyeri ari meza cyane, nkuko bigaragazwa n'uko ari manini kandi nta kibazo afite.

Ikigori keze kiri ku mababi yacyo kuko bigaragara bataciye kikaba kigaragaza impungure zacyo, kuko iki cyakuze cyane nk' ibigaragara ko ari ikigori gifite impugure nziza cyane mu bwoko bwa mayizori ibigori bigira impugure z'umuhondo kikaba kiri mu murima.

Umusaruro w'impungure zihanitse. Ziri ku tuntu two kuzanikira tugiye dutandukanye twinshi cyane, zanditse ari nkeya ku isahani kugira ngo zibashe kuma neza nkuko bigaragara ko ari imbuto zateguwe, zishobora kuba zizakoreshwa mu guhinga mu yindi sezo.

Ikibara cyangwa umurima urimo ibishyimbo bitangiye kuma . Ibishyimbo akaba aribishyimbo birebire bishingirwa kuko bigaragara bikaba bifite imiteja myinshi cyane, imiteja yakoreshejwe cyangwa yakuze kugira ngo ibe yavamo umusaruro cyangwa bagakuramo ibishyimbo.

Imbuto z'igihaza ziboneka mu gihaza mo imbere iyo ugiketse hakaba arimwo uzisanga, zikaba imbuto zikoreshwa mu gihe cyo kwinaza ingemwe z'ibihaza cyangwa mu gihe cyo gutera ibihaza ukaba wazikoresha ushaka gutera ibihaza byawe.

Inzu y'ububiko bw'imifuka igaragarara ko nkaho ari imifuka irimo imbuto, cyangwa irimo amafu runaka, cyangwa ibishyimbo, ingano cyangwa impungure ikaba ipanze ku mapureti ,ipanze ku buryo zitahanuka kuko bigaragara ko ari inzu y'ububiko.

Igihingwa cy'amasaka nkuko bigaragara, kikaba ari igihingwa cy'amasaka kiri mu murima, ariko bikaba bigaragara ko haje umuyaga urabihuha ubyerekeza nko mu ruhande rumwe, kikaba ari igihingwa gihingwa ahantu kugira ngo bazakuremo ifu, cyangwa bakuremo ibindi bintu bikomoka ku ifu, cyangwa bakuremo ubwatsi bw'amatungo.

Ubwoko bw'ibishyimbo bihuye cyangwa byamaze gusarurwa, bikanatonorwa bikaba byiteguye kuba byajyanwa ku isoko cyangwa byaribwa, uko bigaragara bikaba bisa neza, bikaba byaramaze gukurwamo n'imyanda yose.

Umusaruro w'ibishyimbo by'umukara, uko bigaragara bikaba ari ibishyimbo byumye kandi byahuwe neza birarobanurwa neza bikaba, ari ibishyimbo byaba byiteguye kujyanwa ku isoko , cyangwa bikaba byaribwa kuko bimeze neza cyane nta kibazo na kimwe bifite.

Umubyeyi iyo avuye gusoroma ibishyimbo uko bigaragara akaba afite agatete karimo ibishyimbo, akabafite n'umwana bigaragara ko ari mu murima w'imyaka harimo ibishyimbo ndetse n'ibigori byinshi cyane bitandukanye akaba avuye gusoroma imisogwe y'ibishyimbo.

Ibigori byamaze gutonorwa biri mu buhunikiro. Bigaragara ko babihagitse ku biti, aho babihunikira kugira ngo byume ku buryo buhagije, bibe byabasha gutunganywa nyuma babihungure, nyuma y'uko byumira mu bwanikiro.

Umurima w'ingemwe, urimo ingemwe z'ingano, uko bigaragara akaba ari umurima w'ingemwe cyangwa ingano ziri gutangira gukura, ziri kumera, zikiri ntoya cyane, zikiri ntoya mu murima, zitari zazana amababi menshi, cyangwa ngo zitabike.

Imbuto z'ibihaza nk'uko bigaragara akaba ari imbuto zashyizwe hamwe, imbuto ziboneka cyane mu bihaza mo imbere zikaba ari imbuto zikoreshwa mu gutera ubu bwoko bw'ibihaza, mu gihe ushaka kubikuza cyangwa kubimeza ukaba wifashisha izi mbuto.

Ibishyimbo biri mu masafuri , agaragara akaba ari ibishyimbo, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, biri mu masafuri biteguye kuba byatekwa, bikaba byamaze gutunganywa neza byogeje, bikaba bifite isuku nyinshi cyane.

Ibishimbo cyangwa ubwoko bw'ibimera byamaze kumera bikazamuka bikajya hejuru, nk'uko bigaragara akaba ari ibishyimbo. Iyo foto igaragaza intambwe igishimbo kinyuramo mu gihe kiri kumera kigapfundura amababi kikamera, ndetse kikazana amababi hejuru.

Imifuka y'imyaka irimo imyaka itandukanye, uko bigaragara hakabamo imyaka abantu bari ahantu bagurira imbuto zitandukanye zo gutera, habamo imbuto zose zijyaniranye n'imbuto ntoya impungure, ibishyimbo, uburo ndetse n'ibindi byinshi biba bihari mu buryo bugiye butandukanye, akaba ari ahantu rero ndetse nk'aho bicururizwa.

Ubuhunikiro bw'ibigori, ibigori byinshi cyane biri muri hangari cyangwa aho bahunika mbere y'uko babihungura, mbere nyuma yuko bava kubisarura, akaba ari aho kugira ngo byumire cyane kurusha, kugira ngo bitazafatwa n'indwara.

Imyaka yanitse ku ihema, kugira ngo yumishwe kugira ngo bazabashe kuyitoranya, bayivanguremo iyi myanda bayishyire ukwayo bakaba banitse ku ihema ku izuba, kugira ngo bibashe kuma neza, bikaba bigaragara nk'aho ari ingano cyangwa akaba ari amasaka.

Umusaruro w'ibishyimbo, ibishyimbo byajyanwe ku isoko, biri mu gatete, kuko bigaragara ko ari ibishyimbo by'umutuku, ikaba ari imbuto ihingwa yera vuba, bigaragara ko ari ibishyimbo byamaze gutonorwa, ndetse bishobora kuba byaribwa cyangwa bikajyanwa ku isoko.

Depo cyangwa sitoke cyangwa ububiko bunini cyane, bubikwamo amafumbire cyangwa ibindi bintu bigiye bitandukanye, bijya mu mifuka. Nkuko bigaragara ukaba agira ngo ni ifumbire yo guteza, cyangwa akaba ari imbuto zamaze gutunganywa zikaba ziri mu mifuka, kugira ngo zibe zahabwa abahinzi, cyangwa aho bazakirira zivuye.

Umubyeyi uri kugosora, akaba ari kugosora ibimeze nk'amasaka, akaba ari kubisora kugira ngo bivemo imyanda abe yajya kubibetesha cyangwa abe yagira icyo abikoresha, nyuma yo kubigosora byavuyemo imyanda, cyangwa ibindi bisigazwa byose.

Ikirundo cy'umucanga urunze hamwe bigaragara ko ari umucanga wo gukoresha mu mirimo y'ubwubatsi cyangwa mu yindi mirimo. Bikaba bigaragara ko cyarunzwe ahantu kugira ngo kizabe cyakwifashishwa mu mirimo y'ubwubatsi cyangwa mu bindi bintu runaka.

Umusaruro w'ibigori byashyizwe mu mufuka, bikiri ku mahundo bitari byahungurwa, bakaba babishyize mu mifuka umufuka bakaba bagiye kuwutwara mu rugo, cyangwa bagiye kuwujyana ku isoko. Bari kubikura mu bwanikiro kuko bigaragara ko byamaze gutonorwaho amababi.

Umusaruro w'amajeri yamaze guhurwa, akanahungurwa, akanagosorwa. Uko bigaragara akaba nta myanda irimo. Uko bigaragara asa neza cyane, yamaze gutunganywa ku buryo bwose bushoboka. Akaba yumye ashobora gukoreshwa mu gutera cyangwa yaribwa.

Ingofani irimo ibintu' ibitandukanye bimeze nk'inkwi, bimeze nk' ibyo gukoresha mu buhinzi, cyangwa mubishogoshogo, bashobora gukoresha bari gusasira, cyangwa uri kubikoresha mu gukora amafumbire, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi.

Umusaruro wasaruwe nk'uko bigaragara, akaba umusaruro wa tungurusumu wasaruwe, kugira ngo ukanaterwamo imiti kugira ngo bimere nk'ibi, bika bigaragara ko ari ibitunguru bizakoreshwa mu gutera ibindi, cyangwa mu kwita ku gukomeza gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga bw'ibitunguru

Umusaruro w'ingemwe, w'imbuto, w'impeke z'impungure, cyangwa akaba ari amajeri, nkuko bigaragara, winitswe mu mazi, bikaba bigaragara ko ari ibintu byabanje gu gutekwa, bikaba bigaragara ko byanaribwa.

Umurima w'umuceri uhinze ku murongo, ukaba urimo amazi, kuko bigaragara ko ari umurima bahingamo umuceri, hakaba harimo amazi menshi cyane, umuceri ukaba uhinze ku murongo.

Ikimera cy'igihwagari. Uko bigaragara akaba ari ikimera kizana indabo hejuru, kikaba gifite amababi menshi cyane. Iki komera kikaba kizwiho ko kivamo amavuta. Indabo zabyo bazikoramo amavuta ndetse n'ibindi bintu bihumura cyane.

Imbuto y'ibishyimbo bitonoye bisatuyemo kabiri bigaragara nk'aho byanatetswe ariko akaba ari ibishyimbo byatonowe, bigasatugwa bitariho ibishishwa byabyo, nk'uko bigaragara ko bamaze kubitonora cyangwa akaba ari amajeri y'ibisate.

Impeke, z'umusaruro w'ingano, akaba ari ingano zamaze gutonorwa, zamaze gutunganywa neza, zashobora kuba bazisya zikavamo impungure, zikavamo ifu cyangwa zikavamo ibindi bintu bikomoka ku ifu.

Umusaruro w'ingano zamaze gutunganywa, zikaba zarashyizwe mu mifuka bigaragara ko ziri gucuruzwa cyangwa zijyanwa ku isoko, nkuko bigaragara zikaba zabeteshwa zigakorwamo ifu , nkuko bigaragara ko zamaze gutunganywa neza.

Uruvange rw'ibihingwa bigiye bitandukanye biri mu murima, aho havanzemo ibihingwa bigiye bitandukanye mu murima, nk'uko bigaragara hakaba harimo ibintu byinshi hakaba harimo imyaka isa neza cyane, igaragara ko yatanga umusaruro nk'uko bigaragazwa n'uko ifite amababi meza kandi isa....

Umusaruro w'ingano zitaratonorwa neza, nkuko bigaragara zikaba zitari zahurwa neza, zikaba zikiri mu tuntu tuzipfukiranye, aho zizatonorwa nyuma bakabona bakazitunganya, bigaragara ko hari ingano cyangwa bikaba ari ibigori bidatonoye.

Ibimera by'ibishyimbo biri gukura bigaragaza ko bifite amababi menshi kuko biri kugaragara, akaba hariho imyaka igiye itandukanye iri mu murima, ariko bikaba ari ibishyimbo biri bihinze mu murima.

Ibisarurwa byasaruwe bigashyirwa mu nzu, uko bigaragara akaba ari utuntu twasaruwe, aba ari ibiribwa byatunganijwe bishobora kuba ari ibijumba byatunganijwe, bigasarurwa, bikaba byaramaze gutunganywa, bikaba byiteguye kuba byajyanwa ku isoko cyangwa bikaribwa.

Igihingwa cy'ibishyimbo biteye ku murongo, bigaragara ko ari ibishyimbo bigufi byiza cyane bifite amababi meza, biteye neza kandi bikaba biteye ku buso bunini cyane, bikaba bigaragara ko bishobora kuzatanga umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Ibyatsi byarunzwe bigashyirwa hamwe, bigaragara nk'aho ari ibyatsi byarunzwe kugira ngo bibe byakwifashishwa mu gukora amafumbire no gufumbira ubutaka, amafumbire asanzwe, bikagaragaza ko ari ifumbire yo gukoresha mu buhinzi.

Abahinzi ,abacuruzi bari gucuruza imyaka harimo nk'ibishimbo, ndetse n'ibindi nkuko bigaragara, aba bakaba bafite ibikoresho bitandukanye bari gukoresha mu bintu byabo byo gucuruza, ubucuruzi bwabo bakaba bari gukoresha indobo ndetse n'ibindi.

Umusaruro w'ibishimbo, impeke z'ibishimbo byamaze gutonogwa bikanumishwa bikabije, bishobora kuba byagurishwa cyangwa bigatunganywa cyangwa bigakoreshwa mu rugo babitetse kubera ko bigaragara ko byumye neza kandi byaratonowe nta kibazo bifite.

Ibishyimbo bya Ruvuninkingi, ibishimbo binini cyane bishobora guhingwa bikamara imyaka myinshi mu murima, nk'uko bigaragara bikaba byarasaruwe bigahurwa bigatonorwa, bikaba ari ibishyimbo bisa neza cyane. Nkuko bigaragaraba bikaba nta kibazo bifite byarumishijwe neza ku buryo buhagije.

Ubwanikiro bw'ibigori hariho ibigori bitonoye n'ibidatonoye amababi yose kuko bigaragara ko ari amababi yagiye ashyirwa ku bigori kugira ngo bitazaribwa n'udusimba tugiye dutandukanye. Rero bigaragara ko ari ahantu banika ibigori nyuma yo kubisarura.

Umuhinzi uri gusarura, uri guhungura impungure azikuye ku kigori, bigaragara ko ari umuhinzi utari uwa kijyambere, ari gukoresha intoki, bigaragara ko ari ubuhinzi bukiri hasi budafite ibikoresho bihagije, kandi budatanga umusaruro mwinshi cyane.

Abantu bari mu isoko, bigaragara ko bari kugurisha amatungo yabo magufiya, bigaragara ko hari umuntu uri kubaha amafaranga, ari kugurisha itungo rye nkuko bigaragara, akaba ari imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, aho inyamaswa cyangwa amahene bayagurisha bakabaha amafaranga.

Ubworozi bw'inka uko bigaragara, akaba ari umworozi ufite ikiraro, afite n'ikigega, afite ahantu heza hanini yororera amatungo ye, nk'uko bigaragara ko ari umworozi wabigize umwuga, ndetse ukora imirimo yose yo mu bworozi abamo, umunsi ku munsi.

Umworozi worora ingurube, nk'uko bigaragara ko afite ingurube nyinshi ziri mu kiraro, bikaba bigaragara ko ari umworozi wabigize umwuga, akora imirimo yo korora ingurube, ko afite ingurube nyinshi mu kiraro cye nk'uko bigaragara.

Inka amatungo yo korora y'inka, bigaragara ko ari mu kiraro cyangwa ari ahabugenewe akaba ari kurya ubwatsi, kuko bigaragara akaba ari inka nyinshi ziri kurya ubwatsi mu ngombe yazo, zikaba ari inka zorowe neza kandi zigaragara ko zisa.....

Umworozi w'inkoko ufite inkoko nyinshi, uko bigaragara akaba ari ukuzigaburira, zikaba zifite ibikoresho bigiye bitandukanye, aho zinywera amazi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugabura, ndetse no gutera amagi. Bikaba bigaragara ko ari ubworozi bwa kijyambere kandi buteye....

Umuntu ushinzwe ubuvuzi bw'amatungo，uri kumwe n'umushumba w'inka cyangwa n'umworozi，akaba ari gutera imiti inyana，akoresheje urushinge，bikaba bigaragara ko ari ubworozi bw'inka ziba mu biraro， bakaba bari kuzitera imiti.

Ubworozi bw'inkoko hakaba hari inkoko ziri mu nzu cyangwa aho zororerwa mu nzu yazo, zikaba inkoko nyinshi cyane bigaragara ko ari umushinga wo korora inkoko, hakaba harimo inkoko nyinshi za kizungu zitera amagi, cyangwa hakaba hari iz'inyama.

Aborozi b'inka bari kuzana inka ahantu bazikingirira, uko bigaragara hakaba ari ahantu haba harateganyijwe, hari imbariro bifashisha mu gukingira inka, kwinjizamo inka barangiza bakazitera inshinge, igihe bari kuzirinda indwara cyangwa bari kuzivura indwara runaka.

Umuntu uri kwigisha umwana kubara akoresheje utuntu tw'ikureti bashyiraho amagi, agiye kumwereka ni umwana nawe akabara akurikije ibyo ari kubona kwikureti kandi akagenda ari kubigaragaza.

Umuntu u gutera umuti ku nka, nk'uko bigaragara, akaba ari kutera imiti, ari kuyifuhera kugira ngo itaza gufatwa, itazafatwa n'indwara, indwara z'uruhu, uko bigaragara ko ahetse ipombo mu mugongo, akaba ari kuzitera imiti, yo kuzirinda indwara.

Umuntu uri kubaka ikiraro cy'amatungo cyangwa uruzitiro rw'aho amatungo atagomba kurenga, mu kubabaka mu gukora ubworozi bwororewe ku gasozi cyangwa bwororewe bukorewe mu rwuri, bakaba bari kubaka uruzitiro rw'aho inka zitagomba kurenga.

Ikiraro cyangwa inzu yagenewe kubamo amatungo, ashobora kuba ari inka, ingurube, cyangwa intama, n'andi matungo yose yororwa hakaba n ikiraro gikoreshwa kugira ngo cyane cyane imbere kugira ngo ayo matungo abe ari ahantu hasa neza, hasakaye kandi zigafatira amafunguro, ahantu zigafatira ubwatsi ahantu.

Umuganga cyangwa umuveterineri uri gutera inka urushinge kuko bigaragara akaba ari kuyivura, ari kuyitiyitaho kugira ngo ayirinde indwara cyangwa ayikorere n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inka ziragiwe ziri inyuma y'ikiraro, zikaba ziri kurisha hasi iruhande rw'ibiraro byazo. Bikaba bigaragaza akaba ari ubworozi buteye imbere cyane, bukoreshwa bororamo inka zigiye zitandukanye nyinshi, bikaba bigaragara ko hari ibiraro byinshi cyane by'inka, akaba ari ubworozi bugari cyane.

Ingurube yabyaguye utwana twinshi, kuko bigaragara kaba ikaba ifite utwana twinshi turi konka, kuri akaba ari ingurube igaragara ya kizungu yabwaguye utwana twinshi cyane ,uko bigaragara bikaba biri konka, bikaba bigaragaza ubworozi bwa kijyambere buteye imbere cyane.

Ubworozi bw'inkoko uko bigaragara akaba ari inkoko nyinshi cyane, ziri mu nzu, ziri aho ziba. Hakaba harimo ibisake ndetse n'izindi nkoko zigiye zitandukanye, bikaba bigaragaza ko hari ibintu ari ubworozi bwiza cyane busa neza, akaba ari inkoko nini cyane zakuze zororwa.

Umworozi uri gufuhera inka ye，akaba ari kurwanya ibyonnyi cyangwa indwara zifata uruhu，akaba babikora batera binyuze mu cyuma，mu buryo bwo gufuhera，kugira ngo inka itazarwara cyangwa inyamaswa muri rusange itazarwara，indwara z'uruhu.

Umuntu uri kugaburira amatungo ye magufi y'ihene. Nk'uko bigaragara akaba ari ubuhinzi butoya bwo korora amatungo magufi harimo ihene, intama ,ndetse n'ibindi. Bikagaragara ko avuye kuzishakira ubwatsi. Ziba ziri mu kiraro cyangwa ahantu ho yazigenewe kugira ngo abe ari ho zijya zirarira.

Ubworozi bw'amatungo maremare harimo inka iri mu kiraro. Inka iri mu kiraro cyubatswe kugira ngo ijye irabamo, arimo bajya barayigaburira. Uko bigaragara akaba ari inka iba mu kiraro, cyangwa boroye ariko bakayororera mu kiraro.

Ubworozi bw'amatungo magufi yitwa intama. Uko bigaragara akaba ari intama, ari amatungo ari mu kibara bagiye kuragira. Akaba yambaye ibiziriko, zimwe ziziritse ariko akaba ari ubworozi bukorwa cyane cyane mu cyaro, bwo korora inyamaswa z'ubwoko bw'intama zibana n'abantu.

Umworozi waroye inka, uko bigaragara akaba yoroye inka nziza ikaba iri mu cyayo, bikaba bigaragazwa n'uko iri kurira ubwatsi hamwe mu kiraro, aho inka iba ari mu kiraro cyayo.

Ikusanyirizo cyangwa ahantu bashyira amagi hanini cyane, kuko bigaragara akaba ari ahantu hateguwe cyangwa hari umushinga wo gucuruza amagi, nk'uko bigaragara ko hariho amakurute atondetseho amagi, akaba ari amakurete menshi, ndetse n'amagi menshi.

Inyoni ziri mu nzu ariko zigaragara nk'inkoko, zigaragara ziri mu nzu, zigaragara harimo zimwe zisa n'izapfuye, izindi zikaba zikiri nzima, nk'uko bigaragara akaba ari ubworozi bw'inkoko, ariko ubworozi budateye imbere, kuko harimo, nta suku hafite, kandi hari kuba harimo izapfuye.

Amatungo magufi y'amahene, nk'uko bigaragara akaba ari amahene menshi ari ahantu mu mbuga, hagaragara ko ari mu rugo hari umuntu ufite ubworozi bw'amatungo magufi, yiganjemo amahene hakaba harimo amasekurume menshi ndetse akaba ari amahene meza cyane kuko bigaragara yariye neza.

Umworozi w'ingurube, ingurube ziri aho ziba mu nzu yazo, zikaba ari ingurube bigaragara ko ari ingurube za kijyambere, zishobora kubyara byinshi, kandi ziri ahantu heza habugenewe, hashashe isaso ryiza kugira ngo zibashe kumera neza zikure neza, kandi zishobore gutanga umusaruro mwiza.

Igisimba cyo mu ishyamba, cyangwa igisimba kiboneka cyane cyane, ahantu hari amazi, kikaba ari igisimba cyo mu bwoko bw'ibikeri nyamabondo, nk'uko bigaragara akaba ari igisimba kiba ari kinini cyane cyane, gifite ibintu bikomeye ku ruhu rwacyo, bijya kumera nk'amaga.

Inyoni yo mu bwoko bw'amafundi; inyoni isa neza cyane ivuga cyane cyane mu gitondo ikaba iri mu giti, ikaba ari inyoni y'ishyamba kuko bigaragara akaba Atari inyoni iba mu rugo akaba inyoni zo ku gasozi.

Ubwoko bw'inyoni zo mu ishyamba ariko zishobora kubana n'abantu, ubwoko bw'inyoni zitwa inuma, nk'uko bigaragara akaba ari ari inuma za kizungu, uko bigaragara ku minwa yazo ndetse n'amaguru yazo, zikaba zihagaze mu ishyamba cyangwa mu kibuga.

Inyoni yo ku gasozi yo mu ishyamba, uko bigaragara akaba ari inyoni isa neza ishobora kuba ifundi ,cyangwa ubundi bwoko bw'inyoni ziba mu ishyamba, akaba ari inyoni zisa n'izifite ubushobozi bwo kuba mu biti, ndetse zikaba ziba mu byari.

Utunyamaswa two mu ishyamba two mu bwoko bw'inkende, niko bigaragara twuriye imigano akagomwe kaba kari hejuru hejuru y'akansi kuko bigaragara ko ari inyamaswa zo mu ishyamba torwa mu rugo zaboneka muri pariki y'ibirunga ndetse n'ahandi hantu mu mashyamba agiye atandukanye

Urukwavu rw'ishyamba rugaragazwa n'uko rufite amatwi maremare, kandi rukaba ruri mu ishyamba, nk'uko bigaragara akaba ari inyamaswa ishobora kororerwa mu rugo cyangwa ikaba mu ishyamba kure yo mu rugo, nk'uko bigaragara rukaba rwaba mu rugo cyangwa mu ishyamba.

Inyoni yo mu bwoko bw'inuma kaba ar'inyoni yo mu ishyamba cyangwa ku gasozi. N'inyoni iba isa neza cyane kandi akaba ari inyoni yitonda ishobora kuguruka cyangwa se kandi ishobora kubana n'abantu mu gihe bayifashe bakayijana mu rugo.

Inyoni y'ishyamba iri ku giti igaragara nk'inyoni y'ifundi, cyangwa inyamanza, kuko bigaragara ko aho ari inyoni idakunze kuboneka mu biturage runaka, ahubwo iba mu ishyamba cyangwa muri parike y'ibirunga ,ndetse n'ahandi hantu mu ishyamba.

Inyoni ziri zo mu kibara, zikaba ari inyoni zo ku gasozi, nkuko bigaragara, zikaba ziri mu ishyamba ziri kumviriza cyane zishobora kuba zimeze nk'izikanze ikintu runaka, gishobora kuba kije kuzangiriza nk'uko ziri kumva cyane ziteze amatwi.

Inyamaswa yo ku gasozi yitwa inkima, iri kumwe n'akana kayo ikaba iri mu ishyamba ,nk'uko bigaragara ko iri mu mbuto, ibyatsi biri mu ishyamba ,akaba ari inyamaswa yo ku gasozi iboneka mu bwoko bw'ingagi.

Ubwoko bw'inyoni yo mu gasozi, bujya kumera nk'inkoko uko bigaragara ko ari inyoni ijya kwifata nk'inuma, ariko akaba inyoni idakunze kuboneka cyane ,akaba ari inyoni yo mu gasozi itari inyoni ibana n'abantu, cyangwa ikunze kuboneka ahari ho hose.

Inyamaswa y'ingagi iri kugenda mu ishyamba, bigaragara akaba ari inyamaswa nini cyane, ifite umurizo muremure ikaba ari inyamaswa ikunze kuboneka cyane muri pariki y'igihugu y'ibirunga, zikaba zigira amazina kuko bazita amazina buri mwaka.

Inyoni yo mu bwoko bw'igikona ,akaba ari inyoni iboneka cyane cyane ku gasozi ,ikaba ari inyoni . Ntishobora kugira ibara ry'umukara cyane amabara y'umweru n'umukara ,akaba ari inyoni iboneka cyane cyane mu gihe cy'izuba cyangwa mu gihe cy' ubukonje ,akaba inyoni iba ku gasozi.

Inyamaswa cyangwa agasimba gatoya ko mu gasozi, kitwa uruvu nkuko bigaragara kaba gafite amabara menshi, gafite n'ubushobozi bwo kwihinduranya aho kageze, gafite amaso areba mu bice byose, mu bice byinshi ibyerekezo byose uko ari bine.

Inyoni bigaragara ko iri mu cyari cya yo, ikaba hariho n'amagi, ndetse ikaba ifite nk'uko bigaragara ko ifite amagi, iri mu cyari cya yo, ahantu aho iba cyangwa aho iri iba buri munsi, ikaba ari inyoni iri mu cyari.

Inyamaswa ikunda kuboneka cyane cyane ahantu hari amazi ,inyamaswa yo mu mazi yo mubwoko bw'inyoni, ikaba ijya kwifata nk'umusambi, igira umunwa muremure ndetse ikagira n'ijosi rirerire, uko bigaragara ikaba iri mu mazi iri koga.

Ihene y'ishyamba cyangwa izwi ku izina ry'ishya. Ikaba ari inyamaswa izi kwiruka cyane, ikaba ari imwe mu nyamaswa nto zo mu gasozi zigira amahembe maremare. Zikaba zinazi kwiruka ku rwego rwo hejuru.

Inyoni ikunda gufata cyane cyane ku biti, kandi inyoni ikunda kujya ku biti bifite indabo, ikaba ari inyoni igira umunwa muremure, ndetse ikagira n'amabara menshi agiye atandukanye ikaba iboneka mu ishyamba ndetse no mu bibara, ahantu hadahingwa cyangwa ahantu harimo ibihingwa ariko by'ibinya.....

Inyoni ziri kuguruka, ziri kuguruka mu kirere, zikaba inyoni esheshatu, ukabona ko ziri kuguruka zigiye mu cyerekezo kimwe, zifite amababa manini cyane kandi maremare, bigaragara ko ari inyoni zifite ubushobozi buhambaye, cyane ko ari inyoni zo mu gasozi cyangwa .

Igisimba na none cyo mu ishyamba kiba mu bwoko bw'igihunyira, akaba ari inyoni ibasha kuguruka, ariko ikaba ari inyoni iteye ubwoba cyane, ikunze kugaragara ahantu, idakunze kugaragara, bavuga ko itanabasha kubona ari ku manywa, ireba ari nijoro

Imbeba, imbeba, cyangwa imbeba yo ku gasozi uko bigaragara akaba ari imbeba imwe iba mu kibara zirya ibyatsi ndetse zikarya n'ibihingwa biri mu murima.

Inkima cyangwa ingagi ziri mu giti， mu giti k'inkeri nk'uko bigaragara， akaba ari inkima zagiye gusoroma inkeri mu giti， zikaba zuriye ibiti，nk'uko bigaragara ko ari inyamaswa zo mu ishyamba， ziri mu giti k'inkeri.

Igisimba cyo mu ishyamba kitwa Uruvu, bigaragara ko gishobora kwihindura ,gifite ubushobozi bwo kwihinduranya, kikaba kigira amaso ashobora kureba mu mpande zose ,kikaba ari igisimba giteye ubwoba cyane ,abantu bakunda gutinya ari gatoya ariko kikaba kitwa uruvu.

Ingagi iri mu ishyamba, ingagi ikaba ari inyamaswa iboneka cyane cyane mu mashyamba cyangwa muri parike y'igihugu y'Ibirunga. ikaba igira ibyana byinshi cyane, akaba ari inyamaswa yitonda cyane, ariko ikaba irya ibyatsi.

Inyamaswa yo mu ishamba yitwa inzovu, cyangwa isatura. Igaragazwa n'uko iba ifite ikizuru kinini imbere ku mutwe wacyo, kandi kikaba ari ikinyamaswa kinini cyane. Gishobora guterura ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Inyoni iri kumwe n'ibyana byayo mu cyari, kuko bigaragara ko ari ahantu iba, iri kumwe n'utwana tutari twakura tukiri dutoya cyane, ikaba itugaburira iri ku byatsi yaritsemo cyangwa ahantu isanzwe iba.

Inyamaswa yo ku gasozi, inyamaswa igira umunwa muremure. Ikaba iri kujya ku rurabo ikaba igiye gukuramo ibyo kuyitunga cyangwa ikaba igiye kurujyana. Uko bigaragara ikaba ari inyoni nziza cyane iboneka cyane cyane mu ishyamba.

Inyamaswa y'inkende iri mu ishyamba, kubigaragara akaba iri mu ishyamba ariho kurya cyangwa iri gukora ibindi bintu, nkuko bigaragara ko ari inyamaswa y' inkende iri iri kurya cyangwa iri mu giti cyo mu ishyamba.